Umuntu ari gutera imiti mu birayi umuti wica udukoko mu myaka, arimo aratera mu birayi amajije kugenda abiraba akoresheje umuti wabigenewe.

Gutera imiti ivanamo udukoko ituvana mu myaka bagenda batera bahetse ipombo iba irimo umuti n'umuntu uri kugenda ayitera azenguruka mu murima, atera mu myaka, kugira ngo ivemo dukoko dutuma itera.

Ubworozi bw'amafi mu bizenga baroramo amafi hicaye umuntu ku ruhande, bagenda bakarobamo amafi bakabona amafi yo kurya ndetse n'ayo kugurisha.

Imyembe iri mu murima, imyembe iteye ku murongo kandi myinshi, umurima mugari uteyemo imyembe ya kizungu iri ku murongo igenda yitabwaho mu murima wayo, umurima wababugenewe uhingwamo imyembe.

Urwuri rw'inka rurimo inka nyinshi zigiye zitandukanye zifite amahembe, inyambo nyinshi cyane ziri ahantu mu rwuri hanini cyane, harimo ibiti ndetse n'ibyatsi byinshi cyane.

Ubworozi bw'amatungo magufi ihene ziri mu rwuri rwazo ziri kurisha ihene nyinshi zijya zitandukanye mu mabara zigaragara nkaho ari nini zisa neza ziri mu rwuri ziri kuririsha.

Amatungo inka nyinshi z'inyambo ziri mu rwuri, hanini cyane ndetse harimo n'umushumba wazo ari kuzikurikirana, hanini hari ibyatsi, hari ibiti ndetse n'ibindi bintu.

Ubworozi bw'amatungo, inka iri mu kiraro yambaye iherena ubona ko ikamwa, iri kuririsha iruhande rwayo hari n'ubwatsi iri burye.

Muri parike harimo imodoka zaje gusura inyamaswa ndetse n'inyamaswa ziri kugenda. Imodoka zabugenewe zigenewe abakerarugendo ndetse n'imodoka n'inyamaswa ziza gusurwa ahantu muri parike hari ibiti.